Abakora ibikorwa by'ubutabazi nko gutanga amaraso bavuga yuko Abanyarwanda basobanukiwe akamaro kabyo kuko bituma bagenzi babo babona ubuzima ku bwabo.

Mu bikorwa byo kwita ku ndembe harimo no gutanga amaraso, aho urubyiruko ndetse n'abandi baturarwanda bose, bashishikarizwa gutanga amaraso kuko gutanga amaraso bifatwa nk'aho ari ugutanga ubuzima.

Mu kwigishwa uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze, abanyeshuri biga iby'ubuganga, babwiwe yuko igihe umuntu aguye igihumure, agomba guhabwa umwuka kugira ngo azanzamuke.

Abakora ibikorwa by'ubuvuzi bupima indwara z'ibyorezo bakwiye kwambara bakikwiza bitewe n'uko ari bo ibyago byinshi byibasira mu gihe bari muri icyo gikorwa.

Mu bikorwa byo kuvuza abana ndetse no kubakingira Kovide cumi n'icyenda biravugwa yuko umubare munini umaze gukingirwa kuri ubu aho hamaze gukingirwa abana basaga ibihumbi magana abiri mu gihe k'icyumweru gusa.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu hakwiye kwitonderwa mu gihe umuntu ari kuhagenda cyangwa se ahakeneye izindi serivisi zitandukanye kuko aba agomba kwambara byibura agapfukamunwa byaba byiza akambara n'imyenda yabugenewe.

Abaza kwisuzumisha indwara zitandukanye, mu kigo cya gisirikare, bavuga yuko ibi byabafashije kubera ko serivisi zose bahabwa, ziba ari ubuntu.

Abajya kwivuriza kwa muganga hari abubira ko batinze kwakirwa ugasanga barataka umwanya wabo baba bataye biteze guhabwa serivisi nziza ariko bagera yo bagasanga bihabanye n'uko babitekerezaga.

Abagore bamaze kubyara cyane cyane mu mavuriro aciriritse ni ngombwa ko bitwaza ababatwaza ibikoresho birimo ibikapu ndetse n'ibindi bikoresho by'ababyeyi.

Bimwe mu bintu bishimisha abantu, ni ukubona ko uruhare bagize mu gukorera ikigo runaka rwitaweho kandi bakagenera uwo muntu ishimwe, bikaba bituma ahora yumva ko hari icyo yakoze kugira ngo ikigo runaka gitere imbere.

Mu karere ka Nyagatare, cyane cyane ku bigo nderabuzima, hari ubukangurambaga buri kuhakorerwa bw'uko ababyeyi bakwiye kuboneza urubyaro, kugira ngo hirindwe kubyara abana batabashije kurera.

Ibitaro ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, mbere yuko bajya mu kazi, babanza guhabwa inama n'umuyobozi ubahagarariye kugira ngo serivisi ziza gutangwa, zize kuba ntamakemwa.

Mu gufasha abarwayi barwariye kwa muganga birakwiye ko hibandwa cyane cyane ku kwita ku buryo bahageze ndetse bakakirwa neza hatabayeho kujijinganya cyangwa se kubarindiriza kuko bibakurizamo gupfa.

Leta y'u rwanda ku bufatanye na kaminuza nkuru y'igihugu, hashyizweho uburyo bwo kwivuza ku munyeshuri wiga muri kaminuza binyuze mu buryo bwiswe MIS UR.

Abantu bakora kwa muganga babanza kwitondera neza niba umuntu bagiye guha imiti ari we igenewe kugira ngo hirindwe ko byamugiraho ingaruka.

Mu nzego zitandukanye z'ubavuzi biravugwa y'uko mbere y'uko batangira akazi babanza kuganira ku bigendanye na gahunda z'umunsi mu rwego rwo kugira ngo batange serivisi nziza.

Bamwe mu bakorera mu bigo bitanga serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda bahuriye hamwe biga ku ngamba zo guhashya indwara z'ibyorezo zimaze iminsi zigaragara mu Gihugu.

Mbere y'uko ababyeyi boherezwa gufatwa ibizamini, abaganga babanza kubaha inama z'uburyo bakwiye kwitwara, mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko ngo kwirinda bihuta kwivuza.

Mu bushakashatsi buherutse gukorwa bwagaragaje ko umubare w'abana bapfa bavuka wagabanutse cyane ugereranyije no mu myaka itanu ishize, kuko ubu ngubu ababyeyi basigaye babyarira kwa muganga nta kibazo.

Akarere ka Nyagatare mu bitaro by'Akarere, hibutswe ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane.

Igihe umubyeyi asezerewe kwa muganga, ni ngombwa yuko umuherekeje cyangwa se umurwaza, areba neza ko nta kintu cyangwa se ikindi gikoresho cyaba cyasigaye kugira ngo agicyure.

Abantu ni ngombwa ko basobanukirwa akamaro ko kwirinda gutanga cyangwa se kwakira umukono igihe uri gusuhuzanya, ahubwo bagakoresha inkokora mu rwego rwo kwirinda indwara z'ibyorezo.

Mu bikorwa bijyanye no gupima indwara ziboneka mu maraso, nk'izandurira mu imibonano mpuzabitsina, nka SIDA ndetse n'izindi zirimo n'umwijima bikomeje gushyirwamo imbaraga mu kugira ngo abantu bitabire izo gahunda.

Guterwa inkingo bifasha umuntu urwaye kugira ubudahangarwa buhambaye bwo kuba yahangana n'icyorezo icyo ari cyo cyose ubundi akagira ubuzima buzira umuze.

Ibigo bifata ibizamini ibi bizwi nka laboratware biravugwa yuko indwara z'ibyorezo mu myaka ibiri itambutse ziyongereyeho gatanu ku ijana ugereranyije n'imyaka yabanje.

Abana biga ibigendanye na siyansi, batozwa uburyo bavanga ibintu bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, mu rwego rwo kugira ngo bazakure bamenyereye uburyo ki bikorwamo.

Muri gahunda u Rwanda rukomeje yo kwegereza ubuvuzi abaturage ndetse no gukangurira Abanyarwanda kwivuza indwara igihe batameze neza ni byo biraje inshinga Igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ubuvuzi bwacyo busigaye buri nta makemwa.

Mu gupima indwara zo mu maraso hifashishijwe ibipimo byihuse bishobora gutuma abantu bamenya uko bahagaze mu gihe kitarambiranye bitewe n'ibi bikoresho.

Abakora muri laboratwari bavuga yuko ibyo bamaze kunguka ari byinshi kuko ubu ngubu ntaho bazongera guhura n'ibyago byo kuba bakwandura kuko bamenye uburyo bazajya birinda.

Mu kwitondera neza ndetse no kwirinda ko hagira urujijo ruboneka mu gupima ibizamini kwa muganga, ni yo mpamvu hakoreshwa abantu bakize kandi babifitiye ubushobozi ndetse bambaye n'impuzankano yujuje ibyangombwa.

Gupima amaraso bisaba ubushishozi bitewe n'uko umuntu wabyigiye aba ari we wenyine uba ufite ubushobozi bwo gupima indwara cyane cyane iziboneka mu maraso.

Mu bigo nderabuzima bitandukanye haba hari icyumba cy'umwihariko ababyeyi babyariramo iki kizwi mu ndimi z'amahanga nka materinite, aho buri mubyeyi wese aba adahejwe kuba yaza akakirwa kandi akabyazwa neza.

Abana cyane cyane bakiri munsi y'imyaka itanu igihe babwiwe inkuru ndetse bakanasubirishwamo amasomo yabo cyane bituma bakurana umwete wo kwiga ndetse n'intumbero yo gutsinda.

Muri gahunda y'urugo mbonezamikurire y'abana bato mu kigo cya Matimba biravugwa yuko iyi gahunda ikomeje gutanga umusaruro bitewe n'uko abana benshi bahawe ibyo kurya ndetse banahabwa imfashamirire.

Bamwe mu baturutse mu nzego z'ubuyobozi mu karere ka Nyagatare, bashyize ibuye ry'ifatizo ahagiye gushyirwa ikigo nderabuzima kizajya gifasha n'ababyeyi kwibaruka.

Ababyeyi batwite basabwa kwitabira gahunda yo kwisuzumisha kugira ngo hakurikiranwe ubuzima bw'umwana ndetse azabashe kuvuka nta bindi bibazo bijemo.

Umuyobozi uhagarariye ababyaza mu bitaro by'Akarere ka Nyagatare avuga yuko igihe umubyeyi akurikiranywe kuva asamye kugera abyaye bimugabanyiriza ibyago by'uko yapfa abyara.

Amahugurwa yashyizweho yo kwita ku barwaye mu mutwe, arakangurira abantu kwirinda kubwira nabi abandi ubundi bakabafasha kwiyakira.

Isange one stop center ni ikigo gikomeje kuba indashyikirwa mu guhuriza hamwe imiryango ndetse no gutanga gahunda nziza umuryango ukwiye gukurikiza kugira ngo umuco nyarwanda ukomeze wogere.

Ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe urubyiruko rwo mu Karere ka Nyagatare bifatanyije n'izindi nzego z'ibanze mu gukangurira abantu kwita kuri abo bantu bahuye n'ibyo bibazo ndetse bakanabashyikiriza inzego z'ubuvuzi hakiri kare.

Baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ni insanganyamatsiko igaragaza yuko abantu bakwiye guhagurukira indwara zo mu mutwe kuko zikomeje kwiyongera.

Mu gihe habonetse ko hari ikibazo mu muryango cy'umwe mu bawugize ufite ihungabana, cyangwa se ibi bizwi nk'uburwayi bwo mu mutwe, akwiye gushyikirizwa abaganga hakiri kare kugira ngo atazagira abo agirira nabi.

Ababyeyi bitabira inama zitandukanye z'uko bagomba kwitwara mu gihe bari gufata imiti iborohereza mu burwayi bw'umuvuduko w'amaraso bakangurirwa no kwirinda kurya amavuta menshi ndetse n'isukari.

Mu bukangurambaga bwabayeho mu Karere ka Nyagatare hashyizweho uburyo bwo gukangurira abantu kwirinda gusagarira abantu bafite ihungabana cyangwa se ubundi burwayi ubwo ari bwo bwose bwo mu mutwe kuko bishobora kubaviramo ingaruka zitari nziza.

Mu rwego rwo kwirinda ndetse no kwimakaza indangagaciro yo kudaheranwa n'agahinda, hari ubukangurambaga buri gukorwa mu karere ka Nyagatare, bwo kwita ku bantu bashobora kuba bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo na bo bajye mu bandi, bavurwe kandi bakurikiranwe.

Isange one stop center ni ikigo buri wese ashobora guhamagara kikamuha ubufasha ubwo ari bwo bwose yaba akeneye, yaba ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se n'irindi iryo ari ryo ryose akaba yahabwa ubufasha byihuse.

Mu gucuruza imiti ni ngombwa ko umuntu uba waragenwe na Leta ndetse wabyigiye ndetse akaba anabifitiye uburenganzira ni we uba ugomba gukora muri ibyo bikorwa birimo gutanga imiti kugira ngo hatagira ubuzima bw'abaturage buhononokera.

Abagana amaduka acuruza imiti azwi cyane nka farumasi avuga y'uko bishimira gahunda ndetse na serivisi zibayo bitewe nuko babanza kuganirizwa ku burwayi bafite bityo bagahabwa umuti wa nyawo.

Kipharma ni imwe mu nzu zicuruza imiti yo kwa muganga ifite ubuhanga buhanitse mu kwakira abakiriya baje bayigana bitewe n'uko yashyizeho uburyo bazajya bakirwa.

Mu gucuruza imiti ni ngombwa ko hitabwaho isuku cyane cyane aho imiti ibikwa ndetse n'uburyo ibikwamo bukaba bwizewe nta bukonje cyangwa ubushyuhe bukabijebyo kuko ibyo na byo bituma imiti yangirika mbere y'igihe cyagenwe.

Inzu zicuruza imiti mu Rwanda zivuga yuko abantu baza bahagana baba ari benshi bityo bigatuma batabasha kubona aho bahagarara bakaba basabwa kuza gake gake.

Ibigo bicuruza imiti yo kwa muganga bizwi nka farumasi biravugwa yuko igihe bikoreye ahantu hamwe bishobora kubona abakiriya bitewe n'uko iyo umuntu uje abigana bimwakira kandi neza.

Inzu zicuruza imiti cyane cyane iyo kwa muganga zizwi nka farumasi bivuga yuko zikomeje kwiyongera cyane cyane mu byaro byo mu Karere ka Nyagatare.

Ibikorwa byo gucuruza imiti mu Rwanda bikomeje gutera indi ntambwe bitewe n'uko abaza babagana biyongera kandi bakaba bishimira serivisi bahabwa.

Mudasobwa ndetse n'izindi mashini ni ibikoresho byifashishwa n'abaganga cyane cyane ahacuruzwa imiti kugira ngo bakore ubugenzuzi bwizewe mbere y'uko baguha imiti.

Mu mafarumasi usanga igihe imiti umurwayi akeneye ayibuze ahitamo kugana iz'ubusamo akajya mu bavuzi gakondo, ibyo bigatuma yahatakariza ubuzima, akaba ari yo mpamvu Leta y'u Rwanda ikangurira abacuruza imiti kuba bafite iy'ubwoko bwose.

Gupima abana uburebure bituma hamenwa niba aba bana bakura neza cyangwa se bafite igwingira, mu gihe izi gahunda zegerejwe imwe mu midugudu y'ibice bitandukanye by'u Rwanda usanga abaturage bayitabira cyane.

Mu karere ka Nyagatare hafashwe ingamba eshatu z'ingenzi, harimo gukumira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, inda ziterwa abangavu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, mu buryo bwo kugira ngo biranduke burundu.

Bumwe mu bukangurambaga Leta y'Igihugu cy'u Rwanda ikomeza gushishikariza Abaturarwanda bose harimo yuko bakwiye kwipimisha virusi itera Sida kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Ababyeyi bafite abana batoya basabwa kubitaho cyane cyane, babagaburira intungamubiri zihagije kugira ngo bazakure neza kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Ibigo bishinzwe gutanga ubutabazi ndetse n'ubufasha bw'ibanze, bivuga yuko igihe abantu bakorewe ihohoterwa batabaho neza, kuko baba bafite ihungabana.

Mu rwego rwo gukangurira urubyiruko kwirinda inda zitateganyijwe, hashyizweho gahunda y'ubukangurambaga yiswe koresha agakingirizo, mu rwego rwo kugira ngo ibyago byose biterwa n'imibonano mpuzabitsina idakingiye bihagarare.

Abitabiriye inama yahuje urubyiruko bavuga y'uko bahakuye inama nyinshi zirimo kwirinda ibishuko ndetse banasobanukiwe n'ingaruka ziva mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Muri gahunda yo gukorerwa masaje usanga hari abajya no mu buvuzi gakondo kugira ngo babakandishe imiti ngo ya kinyarwanda nyamara ibi bakaba bagirwa inama yo kutabikoresha cyane kuko bishobora kubagiraho ingaruka.

Bumwe mu buryo abaganga ba gakondo bakoresha mu gutunganya imiti yabo harimo kuyisekura ndetse bakayanika kugira ngo babashe kuyishyira mu macupa.

Imiti gakondo ikomeje gutera inkeke abayifata, bitewe n'uko baba batizeye neza aho yavuye kuko hari n'igihe uyinywa ngo ikaba yanakwica.

Abavuzi gakondo nibo bakomeje guhangayikisha abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi bukuru, bitewe n'uko imiti batanga iba itujuje ubuziranenge, ibi bikaba biteza inkeke leta y'u Rwanda ivuga ko abantu benshi bakomeza kubatakariza ubuzima.

Abakora ibikorwa by'ubuvuzi gakondo mu karere ka Nyagatare, bavuga yuko basobanukiwe akamaro ko kwihutisha umurwayi babona batashobora kuvura kwa muganga kugira ngo ahabwe ubutabazi bwizewe.

Ababyeyi batandukanye bamaze igihe gito bibarutse baza ku mavuriro atandukanye kugira ngo bahabwe inkingo z'iseru, imbasa ndetse n'ibindi kugira ngo abana babo bazakure neza.

Abagana ikigo Gira ubuzima bavuga yuko kibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi aho basobanukirwa neza ubuzima bw'imyororokere ndetse bakanabana neza n'abantu muri rusange.

Abaturage barakangurirwa kwitabira gahunda zo kwipimisha imivuduko y'amaraso kugira ngo bamenye uburyo bakurikiranwa ndetse binabagabanyirize ibyago byo kuba bahatakariza ubuzima.

Mu buryo bwo gutera ndetse no kongerera amatungo vitamini binyuze mu miti ahabwa, bikomeje gutanga icyizere cy'uko nta mwana uzongera guhura n'igwingira ngo yabuze amata yo kunywa.

Girubuzima ni bimwe mu bigo bifasha abantu mu mibereho yabo ya buri munsi aho hatangwa inama zo kuboneza urubyaro, ndetse n'uburyo hakwirindwa ihohotera iryo ari ryo ryose.

Gukingira ndetse no gupima kanseri yibasira abagabo iyi ngiyi izwi nka porositate ni bimwe mu byashyizeho gahunda yo gukangurira abantu kwipimisha ku bushake kugira bamenye uko bahagaze.

Muri giru ubuzima ntawahageze ngo atahe imbokoboko bitewe n'uko indwara ndetse n'agahinda abantu baba bafite bahava byavuwe kandi bikabafasha mu bundi buzima bukomeza.